Hagaragaramo umubyeyi wicaye ufite akanyamuneza ari mu kazi ko gucuruza ari gucururiza mu tuzu tw'imbaho, mu byo acuruza harimo inyanya, amavuta, ibitunguru n'ibindi.

Haragaragara umuhanda n'inzira y'abanyamaguru, ubusitani, insinga z'amashanyarazi, inyubako, ibyapa birimo ibya Yundayi n'ibindi.

Haragaragara ameza ateretseho ibiryo amafunguro akagaragara intebe zo kwicaraho n'imitaka yo gutwikira abarimo gufungura.

Haragaragara ifoto y'inzu iri mu kibanza kingana na metero kare magana atatu mirongo irindwi n'eshanu isa nkaho iri ku isoko bagerageje no gushyiraho igiciro cyayo cya miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u Rwanda.

Hargaragara iduka rinini ririmo ibicuruzwa bitandukanye, harimo abantu barimo guhaha babona bafite akanyamuneza harimo n'abandi barimo gufotora bigaragara ko bishimiye ibiri mu iduka.